Umwana w'umukobwa abona ari gutegura umutaka we n'intebe ye kugira arusheho kwiteza imbere, ubona ko acuruza amayinite akanatanga ibikorwa bijyanye na serivisi za MTN. Ni byiza ko dukora imirimo yose itandukanye yadufasha kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu cyacu muri rusange, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi tugire ubuzima buzira umuze.

Ahantu heza hari akazu ka Airtel bacururizaho amainite ndetse ushobora kuhasanga smarthone za Airtel. Ni byiza ko tugana ahantu nkaha ngo duhabwe serivisi z'ibijyanye na Airtel turusheho kwiteza imbere dukoresha Airtel tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona ko ari inyubako nziza yo kuri Sacco, ubona ko ari umurenge sacco, ari ahantu abaturage bagenda bakaguza amafaranga bagakora imishinga itandukanye bakiteza imbere ndetse bagateza imbere igihugu cyabo muri rusange. Ni byiza kun abaturage tugana banki nk'izi kugira ngo zirusheho kutuguriza amafaranga twiteza imbere dukore imishinga itandukanye duteze imbere igihugu cyacu ndetsese tuniteza imbere muri rusange.

Inyubako nziza ya koperative ubona ko ari ahantu koperative yihurije hamwe ushobora kugenda bakakuguriza amafaranga ukiteza imbere mugihe uba muri icyo kibina, ni byiza ko twihuriza hamwe mubi bina tukizigama, kugirango ngo turusheho kwiteza imbere tunazigamira ejo hacu hazaza n'abana bacu, kugirango tuzarusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu hateraniye abantu benshi ubona hari gutangirwa igikombe ku bantu bakoze neza, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, kandi banakomeze gukora neza cyane kurushaho, barushaho kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyabo muri rusange, urabona ko bari kubakomera amashyi bonabahaye igikombe kugira ngo barusheho gukomeza gukora cyane.

Umugabo ubonafite micro phone, ahagaze imbere y'abantu ubona ko hari ahantu hateraniye abantu benshi, bari kwiga ku bijyanye n'amakoperative n'amabanki ukuntu bakwizigama bakiteza imbere bakikora mu bukene, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze barusheho no kugira ejo habo hazaza heza. Ni byiza ko dukurikiza inama nk'izi ndetse n'ingamba zifatirwa ahantu nk'aha kugira ngo turusheho kwiteza imbere no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu hariho burushete ku isahani ubona ko ari ahantu muri resitora, ku meza ubona hari n'inzoga y'icupa rya sikoro n'ibiryo bitandukanye kuko nabyo higanjemo amaburushete, ni byiza ko dukora imishinga nk'iyi idufasha kwiteza imbere muri rusange kugira ngo turusheho guteza imbere igihugu cyacu kandi ni byiza ko natwe abantu tugeraho tukishima tukajya mu kabari, muri bale ntitunywe ngo dusinde ariko tukiyitaho, tukanenjoyinga imibiri yacu.

Icyapa ubona kiri ahantu ku muhanda, hirya hari umuhanda, ibikorwa remezo nka kaburimbo, ubona ko ari icyapa kirimo ibintu bitandukanye, ubona ko ari ahantu nko muri hoteli cyangwa muri bale hakorerwa ibikorwa harimo nko kugurisha ibiryo, inzoga, ndetse no kuba wahajya ukaharuhukira. Ni byiza ko tugana ahantu nk'aha cyangwa tugakora ibikorwa nk'ibi bituma duteza imbere igihugu cyacu, ndetse tukaniteza imbere kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu ubona hari ibikorwa remezo hari amazu meza, ubona ko hari icyapa kigaragaza ngo ni kuri busheri ndetse n'ahantu bacururiza ibyo kunywa n'ibyo kurya, ni byiza ko tugana ahantu nk'aha tukagura ibyo kurya ndetse tukaba twakicara tukanaruhuka tukahafatira agacupa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza no kuruhuka neza, turusheho no kwishima; ni byiza ko twishira mu buzima bwacu imibiri yacu ikora neza kandi tukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Inyubakobona ko ari ibikorwa remezo, abaturage bifashisha bakoreramo bisinesi zitandukanye ubona ko hari ahantu bacururiza, ibyo kurya bitandukanye. Ushobora kuhasanga amavuta ndetse ubona ko hari n'ibindi bikoresho bitandukanye birimo nk'ibyo bifashisha bakora amasuku, imyeyo myiza ndetse n'indobo ushobora kuvomeramo amazi. Ni byiza ko tugana butike nk'izi zikaduha ibikoresho dufasha nko gukora isuku ndetse no gusukura ahantu dutuye ndetse no kurya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abantu bane ubona ko harimo umusaza urimo agurisha abakobwa n'umugabo imyenda. Ubone ko ari ahantu hacururizwa imyenda itandukanye. Hariho abantu bagenda bakagurishiriza ibintu ngo barusheho gutunga imiryango yabo ndetse no kurushaho kwiteza imbere. Ni byiza ko tubungabunga ibikorwaremeze nk'ibi cyane cyane amasoko nk'aya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Binyuze mu kubona ibyo dutungisha imiryango yacu n'ibituma twiyitaho, tubungabunga ibikorwa remezo kandi tugana amasoko, turushaho kwiteza imbere.

Ahantu ubona hari ibitanda hari matela nziza hasa neza ari ahantu hari na supaneti ubona ko ari ahantu abantu bagenda bakarara igihe bahagize nk'ikibazo cyagiye bashaka kuruhuka neza, ni byiza ko tujya ahantu nk'aha tukaruhuka, tukarushaho gutuma ubuzima bwacu bumera neza tubungabunga ibikorwa remezo nk'ibi kuko bidufasha kuruhuka ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye birimo nko kwinjiza amafaranga no kwiteza imbere.

Icyumba cyiza gisa neza, ubona ko ari ahantu muri hoteri hari igitanda cyiza kiriho matela nziza gishashe neza, ubona ko ari ahantu hari imisego ibiri ku buriri. Ni byiza ko abantu bakora bizinesi nk'izi, mu mahoteli kugira ngo barusheho kubungabunga no guteza imbere ibikorwaremezo ndetse no guteza imbere leta muri rusange baniteza imbere. Dukore bizinesi nk'izi kugira ngo abantu barusheho kubona aho bahukira n'aho barira, igihe bananiwe bakaba banaharuhukira.

Ahantu heza ku mazi ubona ko hari ibintu bitandukanye, hari ubwato, hari amazu meza ubona ko hari hoteli ari ahantu ku mazi, ubona ko ari ahantu heza abantu bajya bakaruhukira bakishima kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. nUrabona ko ari ibikorwaremezo bifasha abaturage kwishima no gushimisha imibiri yabo boga, banatemmbera bakahasohokera.

Ahantu heza ubona hari igitanda cyiza, hari n'amatora nziza ubona kuri muri hoteri, Hari n'imisego ibiri, hashashe neza; ubona ko ari ahantu hari igikorwa remezo cya hoteli cyakira abantu kikanabafasha kuruhuka ndetse no kuba bahafatira ibyo kurya n'ibyo kunywa bimeze neza. Ni byiza ko twubaka ibikorwamezo nk'ibi, kugira ngo turusheho guteza imbere leta no kwiteza imbere natwe ubwacu binyuze mu gukora ibikorwa nk'ibi byinjiza amafaranga ya buri munsi.

Ahantu heza ubona hari ibikoresho bitandukanye, Ubona ko hari intebe, ameza, Ubona ko ari ahantu bajya kwiyakira bakafatira amafunguro ndetse bakaba babafatira n'icyo kunywa. Ubona ko ari igikorwa remezo gifasha abantu igihe bashonje cyangwa bashaka kuruhuka, bakicara bakahiyakirira. Ni byiza ko tubungabunga ibikorwamezo nk'ibi bidufasha mu bikorwa byo kwiruhura, kwidagadura ndetse no kunywa tukishima.

Urujya n'uruza rw'abantu ubona ko bari ahantu ku musante ahantu hacuruzwa bitandukanye hacururizwa intebe, matelaidobo ndetse n'udugukoresho dushobora kwifa mu isuku. Ubona ari santeri nziza y'ubucuruzi ifasha abantu kwiteza imbere bakoramo ubucuruzi butandukanye ngo barushaho guteza imbere igihugu cyabo ndetse nabo ubwabo. Ni byiza kubungabunga ibikorwa remezo nk'ibi bikadufasha kwiteza imbere dukora ubucuruzi butandukanye.

Ahantu hateraniye abantu benshi ubona ko ari ku isoko hateraniye abantu baje guhaha ibintu bitandukanye, ni byiza ko tugana ahantu nkaha kugira ngo turusheho guhaha ibintu bitandukanye, turushaho kwita ku buzima bwacu, bidufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, duhahe duteze imbere amasosako yacu kandi tuniteze imbere.

Ahantu heza hari ibikoresho bitandukanye, ameza meza, intebe nziza hari n'ibikoresho bitandukanye ubona ko ari ahantu batangira serivisi z'ibiryo nko muri resitora zo kugaburira abantu no kwakira abantu bakabaha keya. Ni byiza ko tugana ahantu nk'aha ndetse tukaba natwe twanakora bizinesi nkizi turushaho kwiteza imbere, tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Intebe nziza ubona hari n'ameza n'ibikoresho bitandukanye ubona ko ari ahantu heza. Hakorerwa igikorwa cyo kugaburira abantu ubona ko abantu bashobora kuza hazwi nka resitora. Bakiyakira ndetse bakaba banahishyura ibyumba bakaba banaharara. Ni byiza ko tuza tukishima n'imiryango yacu tugasohokirana nk'aha cyangwa tukaba twahaza tugakora business nk'izi za resitora zituma twinjiza amafaranga tukiteza imbere ndetse tukanateza imbere igihugu cyacu muri rusange.

Abamotari benshi ubona batonze umurongo, ubona ko bahagaze ahantu kuri kaburimbo mu isantere ubona ko baje gushaka amafaranga kugira ngo babone igitunga imiryango yabo ndetse banayiteze imbere. Ni byiza ko tubungabunga ibikorwa remezo nKi'bi kuko tubikorera mu mihanda, dushaka amafaranga y'ibyatunga imiryango yacu kugirango ngo turushe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abantu babiri ubona ko ari abagabo bambaye rinete. Ubona bafite moto ubona bari kuyikora kugira ngo barusheho kuyitwara ibageze aho bagiye. Ni byiza ko tubungabunga ibinyabiziga nk'ibi kugira ngo biturinde kurushaho gukora impanuka. Mbere yuko tujya mu muhanda tukabanza tukabisuzuma, tukamenya uko bimeze nkuko ubona bari kureba ko nta kibazo ifite kugira ngo bayigendeho.